Bitetswe Kinyarwanda. Umutsima guteretse ku mbehe gukozwe mu ngano mu birayi by'amaganda, n'igitoki , ibihaza, ibijumba by'amaganda , imboga n'ibishimbo biteretse ku nkoko no ku ikoma . Bifashaga kutwibutsa uko mbere baryaga.